Ibyapa binini bishyirwa ku muhanda kugira ngo abashoramari na ba rwiyemezamirimo babikoreshe bamamaza ibikorwa byabo kugira ngo babashe kugera ku bantu benshi, babashe kubibona ahantu hatandukanye kandi babibone ku buryo bworoshye...

Icyapa kinini cyo ku muhanda, aho bisi ziparika, barwiyemezamirimo bakoresha bashaka kwamamaza ibikorwa byabo, kugirango babashe kugera kuri benshi, kugirango babashe gukura abakiriye, babashe kumenya ibyo bakora mu buryo bworoshye kandi bwihuse, kandi vuba.

Tabulo itwereka amazina y'ibihugu bitandukanye n'amadarapo yabyo, Uhereye ku Buyapani, Koreya, Filipine, Singapuru, Suwazilandi, Tayiwani, Tayilandi, Ubwongereza, Amerika.

Ahantu abantu bajya bashaka kuvunjisha amafaranga bafite, bashaka kuyavana mu mafaranga y'igihugu runaka, bashaka kuyashyira mu y'ikindi kugira ngo babashe kuyakoresha mu byo bashaka kuyakoreshamo bitabagoye.

Imbaho zibajwe mu biti zitondetse ahantu hamwe ku butaka, rumwe rugeretse hejuru y'urundi, ku buryo zitondetse neza zitagira ikibazo, zitabasha kugira icyo zihungabanya.

Isoko ry'imbuto, ricuruzwamo imbuto zitandukanye kandi zifite abazicuruza, harimo avoka, nanasi, imyembe, imineke, indimu, amacunga n'ibindi bitandukanye.

Abantu bakora akazi ko kugurisha amasambusa ku muhanda aribyo twita ibiraha bagenda babigurisha ku mihanda, babijyana mu masoko ahantu hatandukanye bashaka abakiriya kugira ngo babashe kuba babagurira ibyo bari kugurisha.

Abantu bari mu isoko, bagura ibintu bitandukanye, harimo imyenda, harimo amatapi, n'abantu bicaye ku meza baka serivisi zitandukanye, bari ahantu hameze nko mu rusaku, hari akavuyo, hari urujya n'uruza rutandukanye.